Imiziki nabwo iba myiza kubera ko usanga abantu benshi bajya wenda nko gusohoka ahantu hagiye hatandukanye, akenshi bakunda kwigira ahantu haba imiziki kubera ko iruhura mu mutwe. Iyo umuntu ari kuyumva yumva anameze neza, iyo uri kumva imiziki wumva umutima wawe utuje.

Hoteri ziba ingenzi zirakundwa kandi ziba nziza kubera ko ni kimwe bintu abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa kenshi cyane kubera ko abantu bajyayo bagiye kuruhuka cyangwa bagiye gutembera n'imiryango yabo. Mbese ziba ari ingenzi kandi akenshi usanga zifite amasare aberamo ubukwe, aberamo inama mbesi zitanga umusaruro.

Izi sale ziba nziza cyane kubera ko zigirira abantu umumaro ba nyirazo ndetse n'abazikeneye haberamo inama, hakaberamo n'ubukwe bugiye butandukanye ,hanyuma ba nyirazo bakabasha kubona amafaranga avuye mu bikorwa byabo.

Utubari tuba twiza ku bantu bakunda kwisohokera, bikundira imiziki hari igihe haba harimo n'imiziki, kandi iyo ushonge ujyayo ukajya kukwirira rero utarafasha, nk'iyo utari hafi y'iwanyu ujyayo ukajya kwishakira ibiryo ukirira cyangwa wa kumva ufite inyota ukajya kwinywera agafanta.

Hoteri iba nziza nziza cyane ukubera ko iyo umuntu ashaka gutembera ajyayo cyane nk'umuryango ukajyana ukaganira ku bintu byose byagenze nabi cyangwa byagenze neza, ubundi umuryango ukugabaho wishimye unezerewe.

Ibitoki biba byiza kubera ko abantu barabikunda biraryoha. Kandi akenshi iyo umuntu iyo umuntu arwaye arya ibitoki a akumva ameze neza. Niyo mpamvu abantu babikunda bakabirya. Bivamo ibintu byinshi.

Utubari haba heza, na ho abantu bakunda kujyayo nko muri wikendi bakajya kuruhuka, haba hariyo indirimbo haba hariyo ibintu byinshi, rero ni yo mpamvu bajyayo bafite nk'umunaniro bakajya kwiruhukira, kandi na ba nyiraho babona amafaranga yo bishyura.

Amahoteli aba ameze neza ,cyane cyane afite amasale agiye atandukanye, kubera ko barayifashisha abantu baba bayakeneye, ayo masale bayakoreramo amakwe, bayakoreramo inama, cyangwa ibindi birori bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu aba meza kandi ba nyirayo babaha amafaranga, urumva ntabwo bayabahereza gutyo gusa nta mafaranga babahaye rero ayo mafaranga....

Hoteli ziba ingenzi kandi ziba nziza kubera ko zifasha abantu mu buryo bugiye butandukanye haba ba nyirazo cyangwa ababa bashaka kuzijyamo kubera ko zituma abantu bagiye nk'ahantu runaka bidakunda ko bahita bataha bakajya kurarayo, cyangwa waba ushonje cyangwa waba ukeneye kujya kuruhuka mu mutwe ukajyana n'umuryango wawe. Rero ziba ingenzi kandi n' abo bantu ba nyirazo...

Mu kabari ni ahantu abantu bakunda kujya, mu gihe wumva bakeneye kujya kwinywera kamwe, akanyarukirayo bakajya kwinywera, bumva bifitiye icyaka bakajyayo, kandi n'abantu bagacuruza babona abakiriya, babona nayo amafaranga.

Utubari tuba twiza cyane kandi tugira akamaro, kubera ko abantu bajyayo cyane cyane nko muri wikendi, bajya kuruhukirayo haba hariyo imiziki haba hariyo ibyo kurya, hari n'igihe bajyana n'imiryango bagasohoka, kandi na ba nyiri akabari bibaha ayo mahirwe yo kubona ayo mafaranga bikabafasha cyane.

Amabutike, aba meza cyane. Cyane cyane, iyo ari hamwe. Ariko, iyo harimo ibintu byinshi bitandukanye. Kimwe wakibura ukagishakira ahandi. Kandi, biba byiza gushyiraho ibyapa, kuko abantu babona ibyo ucuruza, yabona ko agikeneye , akaza kukigura akaguhereza ayo mafaranga.

Ibyapa biba byiza cyane, kubera ko birafasha, nk'abantu bacuruza, iyo babishyizeho abantu barabireba bakamenya ibyo bacuruza, hanyuma bikabayobora, cyangwa babona hari ibyo bakeneyemo bakajya kubihahirayo.

Ibintu by'ubudozi biba byiza kuberako bifasha ba nyirabyo kubona n'amafaranga ababikora, kandi ikindi bigafasha n'umuntu ukeneye kwambara nk'ikintu kidodesheje, akaba atakwambara ibintu bicitse kuberako haba hari imashini bahita bamudodera.

Fatimahoteri ni hoteri nziza cyane igezweho, kandi abantu bakunda kujyayo, haba hasa neza bakunda kujya gukoreramo ubukwe amanama, bajyayo bafite sare imeze neza kandi ibiryo byaho biba bimeze neza hari bamwe bajya kuruhuka, hajyayo n'abantu b'abakerarugendo baba baje mu Rwanda, bajyayo rero ni nziza cyane kandi barayikunda.

Amabutiki y'amavuta aba meza, kubera ko abantu ni ibintu bakenera cyane cyane, kubera ko ntabwo wagenda utisize rero barayagura, iyo ufashe umwanya wawe ukajya gukora, ukajya gucuruza amavuta biba byiza cyane, kuko ubona amafaranga menshi cyane.

Amabutike aba meza cyane, kubera ko afasha abantu kubona ibyo waba bakeneye, kandi biba byiza iyo aba ari muri karitsiye, ku buryo umuntu atafata umwanya wo kujya kure ,ariko iyo biri hafi biba byiza ,kandi nanone biba byiza cyane iyo ushyizeho icyapa cy'ibyo ucuruza ,umuntu yabireba akabona ko abikeneye akaza guhaha, nawe bikugirira akamaro.

Amarogi aba meza cyane, aba ingirakamaro kuri ba nyirayo n'ababa bayakeneye, kubera ko nk'iyo umuntu afashe urugendo akajya ahantu kure y'iwabo, bikaba ngombwa ko ararayo ntatahe ajyayo akajya gushaka amarogi, akajya kurarayo bikamufasha ntabure aho kujya kurara, kubera ko ahantu hose ntabwo uba ufiteyo imiryango, kandi ntabwo ugirayo ubuntu utanga amafaranga ba nyirayo bakungukira aho ngaho.

Izi depo ziba nziza cyane, izi depo bicuruza ibintu by'amazi, ibintu by'ama ji, kubera ko zifasha abantu baba bazikeneye batarinze bajya ahantu kure, kandi akenshi ziba ziri ahantu muri karitsiye hanyuma bikaborohera, kandi n'abazicuruza babona abakiriya benshi.

Amabutiki aba meza cyane, cyane cyane iyo aba arimo ibintu bigiye bitandukanye, kandi ibyo abantu bakenera, rero bifasha abantu bahaturiye, bakajyayo bakabibona batarinze bajya kure, kandi nk'umuntu wafashe icyemezo cyo gushaka gucuruza butiki, ni ukuri abona abakiriya, akabona n'ayo mafaranga.

Umurama uba mwiza ufasha abantu gutera ibitunguru kubera ko barawutera, hanyuma n'ibitunguru bigakura, byamara gukura bakabigurisha bakabijyana nyine mu masoko, hanyuma bakabona amafaranga nyine bakiteza imbere, biturutse muri uwo murama baba bateye hakavamo ibyo bitunguru, bikabafasha kubona umusaruro, bakabona n'inyungu iba yavuye mu gutera ibitunguru

Butiki buriya ziba nziza cyane, cyane cyane izo ngizo bacururizamo inyama, bitumaga abantu batabura aho bajya, ariko iyo ziri hafi ya bo bazibonera ku gihe.

Kubaka inzu z'ubucuruzi biba byiza cyane kubera ko bifasha abantu baba bakeneye icyo gukora, bakajya gucururizamo kandi biba byiza iyo wubatse nini harimo imiryango myinshi n'abantu babona iyo bajya, baguha amafaranga kandi nabo bakagira inyungu.

Kujyana inyanya ku isoko biba byiza iyo uzijyaniye, bituma udatakaza amafaranga menshi yo kubiterereza, ariko na none ntabwo ujyana byinshi kubera ko uba nta mbaraga nyinshi ufite, ariko na none iyo ubyijyaniye nta mafaranga utanga yo kubitereza.

Umwuga wo gukanika ni umwuga mwiza cyane, iyo uwize uba wize neza, kubera ko abantu bakenera gukoresha ibintu bigiye bitandukanye, aho abafite amamodoka barayakoresha ukabona ayo mafaranga, abafite amagare barayakoresha ukabona ayo amafaranga, abafite amamoto bararayakoresha, niyo mpamvu iyo wize uyu mwuga ntabwo uba wize nabi rwose, uba ubaze neza biragufasha mu buzima.

Butike ziba nziza kandi ziba ingenzi cyane cyane iziba ku muhanda kuberako bahaca ari benshi babona abakiriya. Abakiriya bakabahereza ku mafaranga n'uko bikabarinda guhomba. Rero iyo harimo utuntu twinshi twiza kandi tugezweho....

Amadepo aba meza cyane, cyane cyane iyo uranguza ibintu bigiye bitandukanye kandi byinshi cyane, abantu baza kurangura kuko biba bidahenze bitari ku giciro cyo hejuru baraza bakakugurira , haba hari n'abandi bashaka kujya gucuruza bakajyayo, ariko iyo uhisemo gucuruza depo biba byiza rwose.

Amadepo aba meza kubera ko arafashaga cyane, nko abantu badacuruza ibintu byinshi, bajyayo bakajya kurangurayo, hanyuma bakabahera kuri makeya bakabigurisha kandi nabo birabafasha, kubera ko babona, amafaranga avuye ku baba bakeneye ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Imashini z'ibeta ziba nziza cyane, kandi ziba zikenewe kubera ko abantu bajya kubetesherezayo ibikoma. Hari imashini zibeta ubugari n'imashini zibeta kawunga. Rero biba ingenzi kandi n'abantu bazikoresha babaha amafaranga, nta bwo babeta gutyo gusa ku buntu batanga amafaranga.

Avuga byiza cyane kubera ko birafasha bituma umuntu yamamaza neza, abantu babibona bakabona ko ibyo bintu abikora bazakenera kubikoresha bakaza bakamuteza imbere.

Amadepo aba meza cyane, kubera ko bacururizamo ibintu byinshi bakanaranguza, kandi biba biri ku giciro cyo hasi, abantu bacuruza bajya kurangurirayo, bakabahereza, abundi bakajya gucururiza mu makaritsiye yabo, hanyuma abantu bakajya guhahirayo.

Butike ziba ingenzi kandi zirafasha mu buryo bugiye butandukanye, rero iyo ziri hafi abantu bajyayo kandi baba bakeneye ibintu bigiye bitandukanye. Rero iyo nta zo ubona ibintu byagoranye bikabasaba kujya kure ukabona ibintu bimeze nabi, ariko iyo zihari abantu bose babona ibyo bashakamo igihe gito kandi byihuse, kandi ibintu bigakomeza kugenda neza, n'abazifite bazicuruzamo bakabona ayo mafaranga, bagakomeza bakiteza imbere.

Butike ziba nziza cyane kubera ko zifasha abantu kujya guhaha byoroshye mu makaritsiye, batarinze bajya mu masoko mu bintu baba bakeneye kandi byihutirwa, kandi bakaba baranavuguruye kubera iterambere. Mbere byabaga ari ibintu biri aho, ariko ubu bakaba barashyizeho n'amakaro kubera iterambere kugira ngo Ihugu kigira isuku.

Abantu badoda ni ingenzi cyane muri ubu buzima kuko dukenera kudodesha cyane, ariko biba byiza iyo badoda kandi n'aho badodera bakahashyira amatisi, ku buryo umuntu yajyayo bitarenze kujya mu mujyi cyangwa ahandi hantu kure, ngo ajye kubishakayo aba ari kubigurirayo bakanamudodera birabafasha.

Izi depo z'ibintu byo kurya ziba zikenewe kandi ziba nziza, kubera ko abantu baba bakeneye ibintu nk'ibi ngibi byo kurya. Rero iyo umuntu ashyize depo ahantu hafi y'abantu biba byiza ukabona umuntu ntabwo ari kuiya gushakira kure biri hafi ye.

Botike zo ko umuhanda ziba ari ingirakamaro, kandi ziba nziza, ziba ingenzi kubera ko abantu bari gucaho cyangwa akagira ikintu akenera ajyayo akajya kugishaka yo, ariko iyo ziri kure biragorana, rero ziba nziza, kandi n'uyihashyize abona amafaranga.

Amasitidiyo aba meza cyane, kubera ko arafasha iyo abantu bakeneye amafoto yo gushyira ahantu hatandukanye nko gushira kuri mituweri, baragenda bakabafotora, cyangwa n'andi mafoto yandi asanzwe, kandi abantu babikora, babona amafaranga kuko abantu bakunda kujya kwifotoza.

Amasoko aba ari ingenzi kubera ko haba harimo ibintu abantu bakenera, abacuruzamo baba bakeneye abaguzi kugira ngo bazacuruze ibyo bintu baba bari gucuruza kandi bakeneye nabo amafaranga. Iyo bababonye baraza bakabigura hanyuma ayo amafaranga nabo akabakemurira ibindi bibazo bo ubwabo bababafite.

Amaparike aba meza cyane ,kubera ko habamo ibinyaburanga byinshi cyane, habamo inyamaswa nyinshi cyane, abantu bakunda kureba, habamo ingagi, kandi rero abantu bakoramo nabo baba bafite akazi kandi arabahemba .Kandi ikindi abakerarugendo baza kureba izo nyamaswa ,bagasiga amafaranga agateza imbere igihugu.

Butike ziba ingenzi cyane kandi zirafasha, abantu bazicururizamo babona amafaranga avuye mu baturage, kubera ko abenshi baba baturiye aho hafi, kandi batafata inzira ngo bajye mu isoko, kubera ko akenshi haba ari kure kandi ibintu bakeneye bakeneye kubikoresha vuba, rero bikabafasha bakajya mu mabutike aba abegereye.

Amabutike aba meza cyane, cyane cyane nk'iyo umuntu yubatse ikizu kinini agashyiramo imiryango myinshi cyane, bakoreramo ari benshi kandi ibyo bintu biba birimo abantu barabikenera, bikabarinda kujya kure, iyo biri hafi y'aho bajyayo bikaborohereza, kandi n'abacuruzamo bakabona amafaranga.

Amabutiki acuruza ibikoresho by'amashanyarazi, aba akenewe kandi aba ingenzi, kubera ko amashanyarazi ari bimwe abantu bakenera buri munsi, rero iyo amatara wenda apfuye ujya kugura ayandi, cyangwa ukajya kuyashaka yaba ntayo ufite washyizemo nk'umuriro rero biragufasha.

Ayo mabutike na yo ni meza cyane kubera ukuntu yubatse, mbere wasanga bimeze nabi, ariko ubu iterambere ryaraje, barayavugurura ubu ameze neza, arakeye, kubera ko bashyizemo n'amabaraza asa neza pe.

Amabutike aba meza cyane, cyane cyane iyo ari muri karitsiye, afasha abantu kutajya kure ahubwo bikaba bibegereye cyane, kandi iyo bashyizeho ibyapa by'ibyo bacuruza birabafasha, abantu barabireba bakamenya ibibamo, ababikeneye bakajya kubihaha.

Amabusheri aba meza cyane, kubera ko aba akenewe. Abantu bagurisha inyama rwose babona abakiriya kuko inyama ni ibiribwa abantu bakenera, kandi biryoha bakunda cyane, kandi zigira intungamubiri nyinshi mu mubiri. Rero abantu bazicuruza baba baratomboye babona amafaranga.

Amabuti aba meza cyane. Kandi arafasha ku bantu baba batuye nk'aho hafi bajyayo bakabona ibintu byose bakeneye. Kandi iterambere ryaraje ,basigaye barayavuguruye, ubona ko...

Amasoko agurisha ibintu bijyanye no kwambika abageni, aba akenewe kandi aba ingenzi, kubera ko abageni barayakenera cyane, iyo bari gukora nk'ubukwe bajyayo bakayabaha, rero aho abantu babicuruza babona amafaranga kubera ko biba bihenze kandi birungura.

Kuririmba ni ibintu biba byiza birashimisha abantu benshi barabikunda kuko umuntu uri kuririmba aba afite umunezero mwinshi cyane. Kandi hari n'igihe umuntu aba ababaye akajya kuririmba cyangwa akumva indirimbo yumva aruhutse kuririmba biba byiza cyane.

Banki iba nziza cyane kubera ko ifasha buri muntu wese. Iyo umuntu akeneye amafaranga arayabona kandi ntabwo biba byiza iyo umuntu yabitse amafaranga mu rugo kuko ashobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se inzoga sha! Ariko iyo abitsa muri banki aba afite umutekano wizewe rero biba byiza iyo uyajyanyeyo.

Resitora ziba nziza cyane kubera ko zituma nk'abantu bashonje bajya kurya mu buryo bworoshye, mu gihe bari kubona ko batagera iwabo vuba, bakajya kurya bikabafasha. Hari n'igihe haba harimo n'ahantu ho kuruhukira, hanyuma bakaruhuka.

Intebe nziza n'ameza meza biba byiza mu nzu, kubera ko bituma hagaragara neza, kandi hagasa neza. Umuntu yaza kugusura agasanga mu nzu hameze neza cyane akabona harimo isuku kandi ihagije.

Hoteli ziba nziza cyane kuberako zifasha abantu, abantu bazigira babona amafaranga kubera ko abantu bakunda kujyayo nk'imiryango bakajya kuruhukirayo kandi nk'iyo wagiye nk'ahantu ntahantu ufite ho kujya kurara ujyayo.

Hoteri ziba nziza cyane kandi ziba ingenzi, kubera ko abantu bajyayo bakajya kuruhukirayo, abantu bava hanze bajya mu mahoteri niho bigira, haba hariyo ibintu byiza byinshi, akaba harimo ibiryo bimeze neza, kandi na ba nyirazo bibagirira akamaro kanini cyane.

Isoko ry'ibiribwa riba ryiza cyane, kandi riba ingenzi, riba rinakenewe, kuko abantu bakenera kurya bakajya guhahira mu isoko, kandi biba biboroheye kubera ko baba bariyo ari benshi, kandi ntabwo biba bihenze, n'abantu bacuruzamo babona abakiriya benshi cyane, bakabona n'ayo mafaranga abafasha kwikenuza.

Ubucuruzi bw'ibyombo buba bwiza cyane kuko abicuruza bagira amahirwe yo kubona abakiriya kuko biba bikenewe cyane amafaranga bazana akabafasha kwiteza imbere.

ama supamaketi aba meza kubera ko aba arimo ibintu abantu bakenera cyane, kandi abantu bakunda kujya kugurirayo, kubera ko usanga bidahenze. Rero abantu bacururizamo bibabera imigisha kuko babona abakiriya bakabona n'ayo mafaranga.

Gucururiza mu isoko biba byiza cyane kandi biba ingenzi ,kubera ko abantu baba bazi aho riherereye, rero baraza bahasanga ibyo bakeneye ubifite bakabiguhereza ,kandi biba byiza iyo ucuruje detaye, kuko benshi bose ntabwo ari ko baba bashaka ibintu by'imifuka yose, ahubwo hari n'igihe baba bashaka ibiro bikeya.

Ubucuruzi bw'inkweto buba bwiza cyane, kubera ko inkweto abantu bakunda kuzigura, ntabwo bagenda bambaye ibirenge barazigura, rero iyo baje baguha amafaranga menshi cyane, kandi zirahenda ariko bakazigura amafaranga akagufasha.

Amasoko aba meza cyane, cyane cyane abacuruza ibintu by'ibyombo, n'inkweto babona abakiriye kubera ko ibyomba barabikoresha cyane ,kandi ni ibintu biba bikenewe, kandi abantu bacuruza babona amafaranga.

Ama atoriye aba meza kandi arafasha, kubera ko abantu baba bakeneye kujya kudodesha bajyayo, nk'abantu babyize rero bagira akamaro, kandi nabo babona amafaranga, kubera ko abantu bakunda kudodesha ibintu bigiye bitandukanye, nk'abanyeshuri baradodesha, nk'aba mama badodesha ibitenge, rero biba byiza kandi babona amafaranga.

Abantu bacururiza mu mihanda ubona ari ibintu bidasa neza, biba arumwanda ntabwo biba biri kugaragara neza, niyo mpamvu leta ishishikariza abantu bose kujya gucururiza mu isoko kuko ho ari ryo usanga rifite isuku kandi rifite gahunda.

Indagara ziba nziza kandi banazikunda cyane, kubera ko zigira akamaro kenshi, baraziteka kandi indagara zikunda kurya n'abantu barwaye kandi zikabakiza, zigira akamaro kanini cyane mu mubiri w'abantu, rero iyo uzihashye cyangwa se ukazicuruza, ubona amafaranga kubera ko ni ibintu bigendekaga kandi abantu barazigura.

Imbuto ziba nziza cyane kandi ziba ingenzi, abantu barazikunda ziraryoha, usibye no kuba ziryoha zigira akamaro kanini cyane nk'abantu barwaye, zirabafasha bakongera akabaraga uturaso tukagaruka, imbuto ziba nziza rero iyo uzihinze zikugirira akamaro kanini cyane.

Amabutike aba meza cyane, kubera ko bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, haba harimo amaji, ibintu byinshi, kandi n'iyo ugize igitekerezo cyo gushyiramo akamashini kadoda, biragufasha byose.

Ibyombo ibicuruzwa byiza kandi bigendeka kubera ko abantu bakunda kubikoresha. Abantu bakenera ibyombo mu minsi itandukanye iyo ubicuruza wibwira ko uzabona umusaruro wabyo cyangwa ukabona amafaranga uhagije ubivuyemo.

Amasoko aba meza cyane, kubera ko abantu bajya guhahiramo cyane cyane nk'aya ngaya acuruza ibiryo. Abantu bajyayo bakajya kwihahira. Niyo mpamvu Leta ibwira abantu bacururiza mu nzira ko ari akajagari, bakajya mu isoko kuko ari bwo biba bisa neza.

Amasoko aba meza kandi agira akamaro cyane, kubera ko abantu bacururizamo bibabera byiza, kubera ko abantu bajya guhahirayo, kuko baba bazi ahantu riherereye bakajyayo. Kandi biba byiza iyo n'abacururiza mu nzira iyo bagiye gushaka aho gukorera, kuko bigaragaza akajagari.

Leta iba nziza kandi Leta iba umubyeyi, kuko yatekereje igitekerezo cyo kubaka amasoko, abantu bakava mu mihanda bakajya gucururiza mu masoko. Kandi ubona ari ibintu bisa neza n'abantu barahamenya bakajya guharirayo, kandi ubona ko bose bibagirira inyungu nyinshi cyane.

Imboga ziba nziza cyane. Zigira akamaro kanini gakomeye cyane, kubera ko abantu benshi barazikunda. Kandi imboga zifasha mu mibiri yacu, zigira intungamubiri zikomeye cyane. Zituma abantu bagira ubuzima buzira umuze, kandi n'abana baziriye bakura neza, n'abantu bazicuruza bagira amafaranga bakiteza imbere.

Amasoko aba meza cyane kandi aba ari ingenzi, kubera ko ibintu byose babicururizamo. Icyo ukeneye gucuruza ujyayo, kandi niba ushaka kujya guhaha ujya mu isoko, kubera ko aba azi ko abisangayo.

Amasoko aba meza, kuko abamo ibintu byinshi bitandukanye kandi bikenewe n'abantu benshi, habagamo ababa bari gucuruza imyenda, inkweto, abacuruza ameza ibintu byinshi kandi abantu baba babikeneye, rero iyobagiyeyo babona amafaranga n' abandi bagatwara ibyo bashaka.

Gucuruza imboga biba byiza cyane kubera ko abantu barazikunda, barazikenera, biguha amahirwe yo kubona amafaranga menshi cyane, bikaba akarusho iyo wagiye gucururiza mu isoko bikubera byiza cyane.

Umunzani uba mwiza kandi urafasha ku mpande zombi, ku mpande y'umuntu ubaga ari gucuruza bituma batamwiba, kandi n'uba ari kugura bituma batamwiba, akajyana ibintu yashakaga n'uri gucuruza agatanga ibintu ku buryo atahomba, umunzani rero uba arigenzi kandi urabifasha.

Amasoko ry'ibyo kurya aba meza aba akenewe ahantu kubera ko agira akamaro abantu bose bakunda kurya batarya iyo habaho hari isoko ry'ibiryo abantu bajya guhaha. Kandi nk'umuntu ucuruza abona abakiriya ,akabona amafaranga abantu barahaha, kandi ntabwo babura kurya . Amafaranga rero abona arayikenuza.

Amaburangeri aba meza cyane, kubera ko aba akenewe, bacuruza ibintu bigiye bitandukanye by'imigati, nk'ino migati bakoresha mu birori, rero abantu barazikunda, rero iyo ubicuruza ubona abakiriya benshi.

Amasoko yo mu cyaro bakunda gucururizamo ibintu by'amabase, cyangwa mu mihanda. Ubona batariteje imbere, nta masoko yubatse baba bafite. Ariko ibi ngibi Leta yarabyanze, yumva ishaka ko abantu bose bava ku muhanda bakajya mu masoko, ariko abantu bajya kugurirayo, kubera ko akenshi usanga ibintu by'aho biba bidahenze.

Amasoko aba meza cyane ,kubera ko afasha abagurisha n'abajya kugura mu buryo bworoshye, abagurisha bakabona amafaranga ,n'abajya kugura bakabona ibyo guhaha kubera ko baba bagiye mu masoko nyine bakabibona byoroshye ,ni yo mpamvu amasoko ari meza cyane cyane kuyacururizamo.

Amasoko aba meza kubera ko adufasha kubona ibintu byose tuba dukeneye. Iyo ugiye mu isoko ubonayo ibintu byose. Amabutike ubonayo ibyo kurya, ubonayo imyambaro. Kandi na bo babicuruza babona amafaranga, kubera ko baba bagiye kuyashaka nyine, bakajyana ibyo byose hanyuma bakiteza imbere.

Amavuta aba meza, amavuta yo kwisiga aba ari ingirakamaro abantu bose barayakenera, ni yo mpamvu umuntu ucuruza amavuta aba afite amahirwe menshi yo kubona amafaranga, kuberako ni ibintu abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, rero amavuta aba ingenzi.

Isoko ry'ibiribwa riba ingenzi, haba harimo imbuto, haba harimo ibintu bigiye bitandukanye, kandi imbuto abantu barazikunda cyane, zigira akamaro, bazikora n'ibintu byinshi, zirinda indwara, zifasha umuntu urwaye, rero umuntu uzicuruza abona amafaranga.

Imikati bita imbada ziraryoha abantu barazikunda cyane kubera ukuntu ziryoha, ziva mu ngano hanyuma bakaziteka bakazijyana ku isoko. Iyo wazikoze ukazijyana barazigura cyane kubera ukuntu abantu bazikunda . Kandi ziraryoha.

Udutete tw'inkoko tuba twiza kandi turafasha, kubera ko iyo nta hantu ufite ho kororera izo nkoko zawe ushyiramo kandi ziba zimeze neza nta kibazo zifite. Ukabona umusaruro wawe kandi umeze neza, ukagurisha ukibonera amafaranga.